Icyapa kirekire cyanditseho amagambohino yabo hakaba umuntu uhetse umwana mu mugongo barimo baraseka.

Ikintu cyanditseho amagambo rayifu inshuwarensi, iruhande rwayo hari ikizeru gihagazeho abantu bashushanyije batatu, umugabo, umugore hagati harimo umwana bitwikiriye umutaka.

Etaje kuruhande hari icyapa cyanditseho arayesesibi hedikota, hino yaho hari ikintu kirekire giteyeho indabo.

Umuntu w'umugore uhagaze, imbere ye hari utwuma tumanitseho turiho hanga, hirya ye hari amasakoshi, n'ikintu kimeze nk'ishati kimanitse n'imipira.

Akantu gatambitse, garetse inkweto zizwi nk'iz'igitsina gore, ndende, n'izindi hirya zifunze zicayeye hasi za panufule, inyuma hirya harimo n'akandi kariho inkweto no munsi yako hari akandi kariho inkweto.

Imodoka ya yundayi iparitse imbere y'inyubako ndende hirya yazo hari izindi, hari izindi modoka.

Icyapa cyamamaza ikigo gitanga ubwishingizi mu Rwanda kigaragaza ko tugeze mu gihe cy'imvura nyinshi irimo imyuzure, ibiza, kwangiza inyubako ndetse n'ibindi bikorwa.

Ibicuruzwa bigizwe n'amata, amata akomeye kivuguto harimo ari mu makarito, ndetse nari mu bukopo busanzwe ari mu mabido ikivuto gisanzwe, ndetse nandi mata ikivuguto kiba kivanze n'imbuto.

Ni amafaranga y'u Rwanda igihumbi, kuri iyo note hariho imisozi, imirima, amashyamba n'amatungo, ndetse na sinya z'abantu n'ibirango by'amafaranga y'u Rwanda.

Abantu babiri wagirango ngo bakora muri banke, umwe imbere ye hateretse imashini ndetse n'icyuma kibara amafaranga n'undi imbere ye hari imashini.

Akajerekani gateretse ku kintu karimo ibintu kenda kuzura kariho n'agapapuro karapfundikiye, hirya hari umuntu uhagaze imbere y'ako kajerekani.

Abantu abantu b'ibitsina gore babiri bahagaze umwe afite igikarito mu ntoki kirimo ibintu undi amuhagaze iruhande afite utukarito tubiri mu ntoki arimo araseka asa nkaho ari kubyerekana.

Inzu zirimo imashini imeze nk'ifura, i ruhande hari ikintu gitambitse cyubakishije amakaro, inyuma yaho hari izindi mashini, idirishya na fizibure hejuru, ishamikiyeho insinga zimanuka zifata kuri kuri ayo ma mashini.

Inzu isize amabara y'iroza ndetse n'ibirahure, ni inzu y'amagorofa ane imbere yayo hahagaze ama modoka menshi ndetse n'umuntu umwe wambaye imyenda y'umweru uri hagati y'ayo ma modoka.

Ni amagambo yanditse, agiye agaragaza amatariki amafaranga yagiye abitsa, icyo bisobanuye, amazina, aho iyo buranshi iherereye, nimero y'ibiranga n'itariki.

Umuntu ufite amafaranga mu ntoki ebyiri, mu biganza bibiri, amadorari no hirya afitemo amafaranga. Intoki ze zikaba zambaye impeta.

Ibiganza bibiri biri guhererekanya amafaranga, umwe arimo mu imbere yambaye ishati undi afite umushandiko w'amafaranga ayashyizeho ibiganza, hakaba n'andi arambitse ku ruhande bose bahurijeho ibiganza.

Intoki zifite amadorari menshi mu kiganza idorari ririho umugabo, ryanditseho ijana n'imibare ku ruhande.

Ni umuhanda uri aho abaturage batuye werekana ko hari icyapa kiri bukate iburyo muri metero mirongo ine uvuye aho icyapa giherereye ugomba kugenda gake kugirango ubone uko ukata nta nkomyi.

Ibiganza bibiri biri guhererekanya amadolari. Ikindi kiganza cy'umwe kiyafite mu ntoki, gifite amafaranga amwe mu ntoki, kikagira ayandi mu kiganza kindi, kiri guhereza umuntu undi nawe ayafashe.

Umuryango ukinguye hanze hari inkweto imbere yaho hari tapi, mu imbere we harimo umuntu wicaye afite ikintu ku bibero, imbere ye hari ikintu cy'umukara kihateretse, hejuru hari akabati gafunze.

Intebe n'ameza arimo hagati y'intebe hirya yaho hari televiziyo, ku ntebe n'intebe zigiye zifite imisego mu ntebe mo hagati.

Intebe z'imisego imbere yaho hari imeza ifite utumeza dutatu, ku ruhande hari itara, n'imitako n'amarido.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Hano ni mu nkomane z'umuhanda, aho umuhanda usukira, hari uturongo tw'umweru, aho abanyamaguru bambukira, kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga batabahutaza.

Abantu benshi bari mu nyubako harimo abakozi bacuruza amafunguro ndetse n'ibyo kunywa hakaba hari n'umuntu uhagarariye emutiyene ari kumwe n'umukiriya ari ku mubwira serivisi zigiye zitandukanye za emutiyene n'akamaro zigufitiye .

Ishusho, ibyatsi byinshi hirya ku mpande hagiye hateyeho ibiti, ibirabo, hashushanyijeho inzu, hakaba handitswe n'amagambo "yigure cyangwa uyubake enisibiyeyi".

Abantu bicaye muri sare nini imbere y'aho hagiye hadukayi, amazi wagira ngo bari mu nama, hakurya hejuru y'abo hari tereviziyo.

Abagore babiri bahagaze hagati ahantu bacuruza ibitunguru, amateke, inyanya, kokombure, imyungu. Barimo umwe arimo arerekana, inyuma yaho hari umukindo muremure.

Abantu bari hamwe, abadamu bacuruje hasi hari udufuka turambuyeho intoryi, inyanya, insenda, abandi barahagaze undi arunamye, hari n'ufite mvelope.

Isoko ririmo abadozi abicaye, abahagaze, imyenda y'amajezi imanitse hejuru, ibitenge, amakuvureri n'amarido bimanitse. Abantu bamwe baricaye abandi barahagaze.

Isoko ry'biribwa hariyo abantu babiri bicaye undi arahagaze, intoryi, puwavuro, inyanya, karoti ibishyimbo, imiteja, n'ibitunguru n'imifuka imanitse hejuru ndetse n'indobo zigiye zirimo ibintu bitandukanye ubunyobwa.

Abantu bacuruje, imbere ye hari umwana wifashe neza, harumu umusaza imbere yaho afite igikarayi kiriho insenda, hari isafuriya irimo inseda n'udufuka tugiye turambuyeho ibintu n'abagore bicaye bateze ibitambaro.

Ni umuhanda wubatsemo amazu maremare, abantu bari mu muhanda, moto, imodoka zigenda, abahagaze ibyapa, abantu bahagaze, abari kugenda.

Akazu ka mobayolomane hanze hahagaze umuntu ufite isakoshi hejuru hari akantu k'ubururu hirya hari n'akandi kazu hirya yho hari ibiti n'amazu bidukikije.

Umukobwa uhagaze imbere y'abantu ufite mikoro wagira ngo arimo aratanga ijambo inyuma ye hari icyapa kinini kiriho abantu babiri cya emutiyeni inyuma y'icyo cyapa haritete ryicayemo abantu inyuma yaho hari icyapa cya emutiyeni.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

kiyosike imeze nk'inzu ya emutiyene ikorerwamo ibintu bya emutiyene ndi kubona amabafure hanze, umusekirite abandi bantu, abari kugenda abahagaze n'abari kuri gishe ndetse na furati televiziyo.

Abantu babiri bahagaze, umugore arimo arareba muri Terefone, umukobwa amuri iruhande arimo araseka, inyuma yabo hari firigo irimo ibinyobwa, hino yaho hari umuntu uhagaze.

Ibiganza bibiri bifashe kuri kotegisi z'abakobwa bita afuripadi, hakaba hananditseho n'amagambo tori wiyari dewedi lidingi sosho intapurayizi manufagicaringi riyuzabo sanitari padi.

Aba bantu bicaye kuri moto, bambaye kasike, moto zabo zose inyuma zigiye zifiteho ibakapu, handitseho Amperisande.

Umugabo wicaye mu modoka wambaye ingofero n'umupira by'ubururu afite ni'igikarito mu ntoki cyanditseho isokorigari dotikomu, n'iya joyinazi, nimero za watsapu n'izo guhamagara, imeli, insitagaramu.

Inzu ya etage ifite amagorofa abiri, ifite amapave hanze, ifite pasiparume, imbere yaho hari akadobo, hari n'umugozi uri muri izo pasiparume, iruhande ruriho inzu, hari iyindi nayo bisa nkaho bimeze kimwe.

Inyubako ndende ya etage iruhande rwaho hari jaride iteyemo pasiparume, imbere yaho hateye jaride irimo indabo, imbere yaho hari akuma gatambitse nako kamanuyeho indabo.

Abagabo, ibitsina gabo bibiri bihagaze birimo birareba hakurya, hakurya hari ubusitani, ibiti biteye, amazu, barimo barareba.

Inzu yubatse hino hari ibyatsi inzu ifite inzugi z'umutuku n'ibirahure bya fime n'amabati asanzwe.

Inzu y'ubucuruzi, harimo abantu benshi, pavuro, imyembe, imineke, abantu bahagaze, ndetse ku nkuta hagiye hamanitseho ibintu. Ibipapuro byamamaza.

Abantu bicaye basa nkaho barebana abandi babahagaze inyuma, bafite mituweli mu ntoki undi afite kalikatirise, undi arimo arandika.

Ikiganza gifite ikarita yanditseho, minisiteri y'ubuzima umujyi wa kigali, akarere ka kicukiro hagati mu kiganza, hirya hari igikuta, hirya y'aho hari intebe ya sheze.

Supamaketi irimo ibiribwa, amavuta, sinikisi, harimo amakaro n'amatara yo hejuru.

Supamaketi irimo ibintu byinshi, hirya hari abantu bahagaze, ibumoso n'iburyo hose hagiye harimo ibintu byinshi.